Ndabona abagabo babiri bambaye amakositimu ndetse nkabona n'imodoka ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara ndetse nkabona telefone ndetse nkabona igitabo.

Ndabona icyapa kiriho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse nkabona amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse nkabona umugore wambaye ishati y'umweru ndetse nkabona n'umwana.

Ndabona icyapa kiriho amatara, nkabona umugore, nkabona umugabo, nkabona ibara ry'icyatsi ririmo amagambo y'umweru ndetse nkabona ibara ry'umweru ndetse nkabona n'ibara ry'ubururu.

Ndabona inzu irimo intebe, nkabona inkweto, nkabona imipira ndetse n'amashati, nkabona ibyapa, nkabona urugi rw'ibirahure ruri mu ibara ry'umweru, ndetse nkabona n'amakaro.

Ndabona amashati y'amaboko aciye ari mu mabara atandukanye, ndabona ibara rya kaki ndetse nkabona ibara ry'icyatsi kijimye, ndetse nkabona ibara ry'umuhondo, ndetse nkabona ibara ry'umutuku, oranje ndetse na move.

Ndabona imipira y'amabara atandukanye y'abakuru, y'abana, nkabona n'udupantaro tw'abana ndetse nkabona ibara rya oranje, nkabona ibara ry'umutuku, nkabona ibara ry'ubururu, nkabona ibara ry'icyatsi nkabona n'ibara ry'umweru.

Ndabona abagabo babiri ndetse bafite urufunguzo rwanditseho Akagera moto, nkabona imodoka iri mw'ibara ry'umukara.

Ndabona umugore wambaye umwenda w'umukara, nkabona abagabo babiri bafite icyapa mu ntoki, ndetse nkabonaho imodoka, ndetse iri mu ibara ry'umweru.

Ndabona imodoka enye ziri mu ibara ry'umweru za kwasiteri, nkabona abagabo babiri bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ndabona ibikamyo bibiri kimwe ki mu ibara ry'icyatsi ndetse ikindidi ki mu ibara rya oranje, ndetse nkabona abagabo babiri bahagaze ndetse bambaye imipira y'umukara ndetse mu ntoki zabo bafite urufunguzo.

Ndabona imodoka ifite vora, ndetse nkabona ifite intebe, ndetse nkabona ibara rya shokora, ndetse nkabona n'ibara ry'umukara, ndetse nkabona intebe, ndetse nkabona yambaye amashashi.

Ndabona umugabo wambaye umupira iri mu ibara ry'umweru, ndetse yambaye ipantaro yo mu ibara rya shokora, nkabona abamama babiri bahagaze, bambaye amakanzu, ndetse nkabona imodoka.

Ndabona ijaga ebyiri z'amata, nkabona abantu batatu bicaye bari kunywa amata, nkabona ameza ariho igitambaro cy'umutuku, nkabona n'ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru.

Ndabona amandazi menshi ndetse nkabona isahani y'ibara ry'umweru ndetse nkabona ibara ry'umukara ndetse nkabona n'ibara ry'umutuku.

Ndabona umukobwa wambaye umweru ndetse ari gusuka amata mu ijana ndetse ndabona agacupa kabamo fanta orange ndetse nkabona agacupa k'umuhondo .

Ndabona isahani ifite ibara ry'ubururu ndetse nkabona isambusa zirimo inyama, isambusa eshatu ndetse n'ibice bibiri, nkabona ameza y'urubaho.

Ndabona imashini y'amata iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu nkabona igishushanyo cy'inka, ndetse nkabona utubido twa litiro eshanu tw'amata, ndetse n'utwa litiro eshatu.

Ndabona icyuma cy'amata kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu nkabona igikuta cyubakishijwe amatafari nkabona intebe ,nkabona ameza ateretseho umufuniko w'indobo .

Ndabona ikirahuri kirimo amata ndetse nkabona intebe y'ubururu ndetse nkabona umuntu wicaye ku ruhande ndetse nkabona telefone ndetse nkabona intebe ndetse nkabona ameza nkabona n'igitambaro k'ibitenge.

Ndabona ibara ry'umweru ndetse nkabona amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse nkabona ibara ry'umuhondo harimo amagambo karensi bayingi seringi, ndetse nkabona imibare myinshi itandukanye.

Ndabona amafaranga atandukanyije ibiciro, nkabona inote y'igihumbi, nkabona inote ya magana atanu ,nkabona inote ya magana abiri iriho umugabo ufite isuka ndetse nkabonaho n'umugore .

Ndabona icyapa kirimo amagambo yanditsemo emutiyene Uganda ari mu ibara ry'umuhondo, nkabona emupesa biri mu ibara ry'icyatsi, nkabona Kenya biri mu ibara ry'umutuku, nkabona bakara Tanzaniya biri mu ibara ry'umweru, iki cyapa kiri mu ibara ry'umukara.

Ndabona urugi ruri mu ibara ry'umweru ndetse nkabona ibirahure ndetse nkabona puberi y'imyanda ndetse nkabona icyapa kirimo amagambo y'ubururu ndetse n'amagambo y'umukara.

Ndabona imodoka mu muhanda, nkabona inzu iriho igishushanyo kiriho umuntu ndetse nk'abona ibyapa bitandukanye.

Ndabona imitako ifashe kugikuta nkabona ibara ry'icyatsi ndetse nkabona ibara ry'umweru ndetse nkabona n'ibara ry'umukara.

Ndabona ameza afite igitambaro cy'umweru, ndetse nkabona amasahane, ndetse nkabona udutambaro tw'icyatsi, ndetse nkabona ibirahure, ndetse nkabona uturabo twa pinki, ndetse nkabona ibyatsi, ndetse nkabona n'igikuta.

Ndabona inzu iri mwibara ry'umukara ndetse nkabona pisine iri mwibara ry'ubururu ndetse nkabona udutanda turi mwibara ry'umweru.

Ndabona umuhanda, ndetse nkabona ibiti birimo ibara ry'icyatsi, ndetse nkabona imodoka iva ku ruhande, ndetse nkabona inzu za etage ebyiri, ndetse nkabona amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ndetse nkabona amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Ndabona amakaro, nkabona intebe ziri mu ibara ry'umukara, nkabona utuzu turi mu ibara ry'umweru, nkabona ibikuta biri mu ibara ry'umuhondo, nkabona ikirugu cy'icyatsi ndetse nkabona impano zi mu ibara ry'umutuku.

Ndabona umukobwa yambaye ikanzu y'ibara ry'icyatsi ndetse yambaye isa akaboko, ndetse afite ikarita mu ntoki, ndetse ari ku cyuma cya banke. Ndetse iruhande hari amagambo yanditsemo eetiyemu ndetse hari n'ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umuhondo.

Ndabona ibicuruzwa, nkabona ibase irimo imineke, nkabona inyanya, ndetse nkabona ibishyimbo, ndetse nkabona umufuka urimo umuceri, ndetse nkabona ibase irimo amashaza, ndetse nkabona na karoti.

Ndabona inzu irimo imyenda y'ubwoko bwinshi y'ibitenge nkabonamo amabara atandukanye nkabonamo imitako nkabonamo ibikapu nkabonamo amabara menshi umukara w'umuhondo ubururu.

Ndabona imodoka y'umakara nkabona abantu, nkabona inzu ya etaje ifite ibara ry'umuhondo rya Emutiyeni, nkabona imitaka nkabona umutaka wa Eyateli, nkabona umutaka wa tigo, nkabona umuhanda n'ipoto.

Ndabona umuhanda ndetse nkabona moto, ndetse nkabona imodoka, ndetse nkabona amagare aparitse ku ruhande, ndetse nkabona inzu ya etaje, ndetse nkabona n'isoko.

Ndabona imboga nkabona inyanya, nkabona umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umutuku nkabona abagore babiri umwe afite ishashi y'umukara ndetse ahetse agakapu ka shokora ndetse undi yambaye igitenge bari guhana ikarita .

Ndabona isoko ry'imbuto, ndetse nkabona umumama uhagaze, nkabona inyembe, nkabona inanasi, nkabona ibinyomoro, nkabona manderina, nkabona pome, nkabona amaronji ndetse nkabona n'amapapayi.

Ndabona umugore uhagaze yambaye ishati y'umweru, yamabaye ipantaro y'umukara, ndabona intebe y'umweru, nkabona ibitenge biri mu mabara atandukanye.

Ndabona umugabo umwe, nkabona abagore babiri, nkabona indobo irimo amasambuza, nkabona ibase y'icyatsi, nkabona ibara ry'umutuku, nkabona akameza gateretseho ibase

Ndabona abantu babiri bambaye imipira y'umuhondo ya emutiyene, nkabona abamotari, nkabona icyuma gitanga esansi, nkabona moto, nkabona umugabo wambaye ishati y'umweru.

Ndabona itente y'umuhondo ya emutiyeni ndetse nkabona impano ifunze y'ibara ry'umutuku, ndetse nkabona abantu benshi bahagaze nkabona intebe, nkabona ameza nkabona mashini ndetse nkabona terefone.

Ndabona umumama wambaye ingofero, yambaye umupira w'umuhondo wa emutiyene nkabona umugabo wambaye umupira w'ibara ry'umkara, nkabona telefone, nkabona ameza.

Ndabona ibara ry'umukara, nkabona imeza iteretseho agakarito gashushanyijeho telefone, ndetse nkabona ibara ry'umuhondo harimo amagambo y'umukara, momopeyi, ndetse nkabona imibare iri mu ibara ry'umweru.

Ndabona agatente kibara ry'umuhondo ka MTN nkabona abantu benshi nkabona aga tente kari mwibara ry'ubururu ka tekino.

Ndabona umusore nkabona umukobwa, nkabona akazu ka MTN nkabona umuhungu wambaye ipantaro yikoboyi n'inkweto zifunze ndetse yambaye umupira w'umuhondo ,umukobwa yambaye ijile na cola y'umukara ndetse n'udukamambiri .

Ndabona abantu batandukanye bamwe bambaye imipira y'umutuku ya Eyateli nkabona ameza, nkabona imodoka ndetse nkabona igishushanyo kiriho inka.

Ndabona terefone iri m'ibara ry'umukara, ndetse nkabona ibara ry'ubururu, ndetse nkabona amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse nkabona akapa emutiyeni k'umuhondo, ndetse nkabona n'amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ndabona abantu bahagaze ndetse bafite telefone mu ntoki zabo ndetse nkabona akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho averebo hiya ndetse nkabona umuntu uhagaze muri ako kazu.

Ndabona abagore babiri bambaye baji ndetse bambaye imipira ya mtn ifite ibara ry'umuhondo, ndetse nkabona amagambo ari mw'ibara ry'umukara ari mu gishushanyo cy'umweru.

Ndabona moto ndetse nkabona umugabo uhagaze wambaye ishati y'icyatsi ndetse yambaye Kasike ndetse ndabona icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ndetse nkabona n'ibara ry'umweru ndetse nkabona n'imodoka.

Ndabona abagabo babiri bambaye linete, bafite amakasike ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse ifite amagambo ari mu ibara ry'umweru, handitsemo sefu moto.

Ndabona umugabo wambaye umupira w'umutuku, ndetse n'ipantaro y'ubururu, ndetse nkabona yicaye kuri moto, ndetse nkabona inyuma akazigo, ndetse nkabona akazigo kariho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ndabona moto igemura iparitse ndetse nkabona umugabo wambaye ibara ry'icyatsi hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse nkabona afashe amvelope.

Ndabona intebe iri mu ibara ry'umweru ndetse n'igikuta kiri mu ibara rya beje, nkabona amarido, nkabona itara, nkabona udusego.

Iki ni cyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye, inyuma hari ibara ry'ubururu bicaye bose ku ntebe nziza cyane, kandi imbere yabo bose bafite indangururamajwi kugirango baze kumvikana, imbere yabo hari uyoboye iyi nama wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru ari kuvugira mu ndangururamajwi kugira ngo abakurikiye inama bose babashe kumwumva.

Ndabona umugabo uhagaze yambaye ikoti riri mu ibara ry'umukara ndetse yambaye ipantaro iri mu ibara rya shokora, hirya ye hari inzu iruhande iri mu ibara ry'umweru ifite imiryango n'ibirahuri ndetse ifite akabara k'umukara.

Ndabona ubutaka, nkabona ibyatsi, nkabona igikuta cy'amatafari, ndetse nkabona inzu ifite amabati y'umukara, ndetse nkabona n'ibara ry'umutuku.

Ndabona ibiti birimo ibara ry' icyatsi ndetse nkabona inzu ya etaje ifite amabara; iryumukara, iryumweru ndetse nkabona amadirishya y' ibirahure ndetse nkabona n' igikuta cy' amatafari.

Ndabona inzu iri mu ibara ry'umweru nkabona itara, nkabona indorerwamo nkabona inzugi z'imbaho ndetse nkabona n'amakaro arimo ibara ry'umweru.

Ndabona icyumba, ndetse nkabona purafo, ndetse nkabona itara, ndetse nkabona igitanda, imisego ibiri, ndetse nkabona ishuka iri mw'ibara ry'umweru.

Ndabona amapave afite utubara tw'umutuku ndetse nkabona urugi rufite ibara ry'umukara, nkabona igipangu gifite ibara ry'icyatsi ndetse cyubakishijwe amatafari, ndetse harimo utubara tw'umweru.

Ndabona igitanda kiri mu ibara ry'umukara, ndetse nkabona amashuka ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, ndetse nkabona mamarido, ndetse nkabona igikuta kiri mu ibara ry'umweru.

Ndabona urugi, nkabona ibara ry'umweru, handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara, ndetse, urugi rukaba rufite ibara rya shokora.

Ndabona inzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umukara, nkabona ibara ry'umweru, nkabona urugi ndetse nkabona amadirishya, nkabona amapave arimo utubara tw'umutuku.

Ndabona inzu ya etaje, nkabona igipangu gifite ibara ry'umukara n'ibara ry'umuhondo, nkabona umugabo uhagaze wambaye umupira, uri mu ibara ry'umutuku.

Ndabona indabyo zitandukanye ziri mu tubati, nkabona indabyo z'icyatsi ziri mu dukombe tw'umukara, nkabona indabyo z'umweru ziri mu dukombe tw'umweru, nkabona indabyo z'umuhondo nkabona, n'indabyo zifite amabara ya shokora.

Ndabona inzu iri mu ibara ry'umweru nkabona abantu bahagaze, nkabona babiri bambaye ibara ry'ubururu, abandi babiri bambaye ibara ry'icyatsi, nkabona imashine nkabona n'ameza.

Ndabona inzu irimo ibicuruzwa ndetse nkabonamo linete, ndetse nkabonamo inkweto, ndetse nkabonamo amaparufe, ndetse nkabonamo amasakoshi, ndetse nkabonamo na camera.

Ndabona umuntu uhetse igikapu wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ingofero y'umutuku, nkabona inkweto zifunze, nkabona afashe umupira w'umweru ndetse hari umupira w'imbeho ndetse n'amapantaro, nkabona igikuta gisa icyatsi ndetse nkabona n'itara.

Ndabona abagabo babiri bafite icyapa mu ntoki kiri mw'ibara ry'ubururu, ndetse harimo amagambo ari mw'ibara ry'umweru; ndetse nkabona aba mama bambaye ibitenge.

Ndabona abamama bane ndetse nkabona umwe yambaye umupira w'icyatsi agatambaro k'umuhondo undi yambaye umupira w'umukara, ndetse n'igitenge ndetse ateruye umwana wambaye ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Ndabona umugabo wambaye ikositime irimo ishati, nkabona umugore wambaye imyenda y'umukara, nkabona bahana impano iri mu ibara ry'umweru, inyuma hariho icyapa cya RSSB kiri mu ibara ry'ubururu.

Ndabona inzu yo gucururizamo, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'amakaro, nkabona amaji ari mu bwoko butandukanye, ndetse urundi ruhande nkabona etajeri irimo ibikoresho bitandukanye.

Ndabona amakaro nkabona amatara nkabona amalonji nkabona n'imineke ndetse nkabona ibinyomoro nkabona watermelon ndetse nkabona umuntu uhagaze wambaye umupira w'umweruru ipantaro ikomeye ndetse n'inkweto z'umukara .

Ndabona umukobwa wambaye ibara ry'umuhondo, ufite ikaramu mu ntoki ndetse nkabona umugabo wambaye ishati y'ubururu ufite agapapuro mu ntoki ndetse nkabona ibicuruzwa ndetse nkabona umukobwa wambaye ibara ry'umukara.

Ndabona umumama wambaye agapfukamunwa k'umukara, yambaye umupira k'icyatsi, ndetse nkabona umupapa wambaye ishati y'ubururu ndetse yambaye agapfukamunwa k'umweru yambaye rinete, afite ibicuruzwa mu ntoki, ndetse bari aho bagurira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.